Icyapa kinini kiriho abantu babiri baryamye cyanditseho kwizera cyangwa icyizere ndetse n'ubwishingizi bwa nyabwo bukwiriye; hari ahantu hari abantu babiri hari n'umutaka icyo hejuru ntabwo ndi kukireba neza

Icyapa cyanditseho betamu, bakaba batanga ubwishingizi bwa moto, ubw'inkongi mu rugo, kwivuza, ibicuruzwa, impanuka, ubujura ndetse no kuba umuntu afite ubumuga ndetse n'imigabane, hakaba hari intebe ndetse n'ameza hariho amakayi agiye ariho umugabo, umwana ndetse n'umugore.

Umusaza ufite uruhara ndetse afite inkoni biragaragara yuko ari umusaza ushaje cyane ariko arishimye ndetse urabona ko rwose afite akamwenyu, no mu gihe cy'izabukuru turahagoboka. Twandikire kuri nimero zikurikira ndetse cyangwa wahamagara ku murongo makumyabiri n'umunani, makumyabiri n'umunani.

Umukobwa wambaye isengeri na kora, yambaye n'inkweto zifunze, yicaye ahuje amaguru, amavi ayafatishijeho amaboko anahumirije birasa nk'aho ari gutekereza.

Biragaragara yuko hari umuntu wafunguye konti muri banki bakaba bari mu bari kumuha ikaze kugira ngo atangire gukorana na bo.

Waba wifuza inzu wabamo ndetse nabawe kandi nziza iherereye heza kandi ifite umutekano. Hano tubafitiye nzu, ni inzu iherereye mumujyi wa Kigali iragurishwa amafaranga make cyane, aho irimo iragurishwa miliyoni mirongo irindwi n'eshanu, ni ukuri ntago ari uguhendwa uyiguze waba w'iyizigamiye. Ni inzu birimo biragaragara ko ifite uruganiriro rwiza, ifite ibyumba byiza kandi amadirishya meza sibyo gusa kandi igifite n'irange ryiza amatara meza cyane kandi agezweho n' ukuri izigamire ugura ino nzu ku giciro gito cyane.

Raporo y'umukiriya wo muri banki; igaragaza igihe yatangiye amafaranga, igihe yabikirije, igihe yabikuje, amafaranga yabikuje nayo yabikije ndetse ibikorwa bikorerwa kuri konti ye; kugira abashe kubimenya neza no kubigenzura.

Ni akantu kariho amasaro yo mu mabara atandukanye umweru, ubururu, umutuku, umukara, umuhondo avanzevanze, ni nk'aho ari ahantu bacururiza, ni umuntu uri kubicuruza n'utuntu tw'udusaro bambara ku maboko abakobwa cyangwa se abahungu.

Amasakoshi yo mu bwoko bw'ibitenge ari mu mabara atandukanye amabara y'umuhondo, umutuku, n'umweru icyatsi kibisi akaba amanitse ahantu mu nzu bigaragara ko ari ahantu hacururizwa ndetse akaba inzu yaba ikorerwamo ubudozi ikorwa mu bitenge nibyo baba badozemo amasakoshi.

Umugabo wambaye ingofero y'ubururu amadarubindi, uri guseka wambaye umupira wumweru ndetse ufite mudasobwa mu ntoki ze. Ari ku gapapuro k'ubururu kandidikishijweho amagambo yumweru ndetse n'ayumuhondo yanditswe mu kirimi cyamahanga cyicyongereza.

Ikote n'ishati bimanitse ku kintu bigaragara ko hano ari ahantu bacururiza amakote bakaba bari kwamamaza ikote ndetse n'ishati.

Amapantaro amanitse bigaragara yuko ari gucuruzwa, akaba ari ahantu bacururiza amapantaro, bakaba bari kuyafotora kugira ngo bayamamaze kugirango babone abakiriya baze kubagurira amapantaro yabo.

Imyenda igiye itandukanye yose idafite amaboko iri ahantu hamwe, biragaragara ko ari mu iduka ry'imyenda, umuntu uri kwamamaza imyenda acuruza kugira ngo abashe kubona abaki....

Imitako y'abagore n'abakobwa bambara mu ijosi, ku ntoki, ndetse no ku matwi, nk'amaherena n'imitako yo mu ijosi, ndetse n'impeta, impeta nyine zo kwambara,

Umuhanda urimo imodoka zitari nyinshi iy'umutuku inyuma, imbere hari izindi n'amamoto hepfo tukabona urukamyo runini cyane bisa nk'aho ari rwarundi ruterura izindi, mu muhanda tukabonamo icyapa kiriho umweru tukabonamo amapoto rwose y'amatara amurikira umuhanda.

Abagabo batandatu bose bahagaze batatu muri bo bafite ututuntu twanditseho inyuguti ya ba hari ibipurizo byo m'amabara atandukanye bigaragara nkaho hano hantu habereye ibirori byo kumurika imodoka nshyashya ya mahindura nkuko turi kuyibona.

Ahantu bacururiza imodoka, hari amaetaje, hari ibiti by'icyatsi bimeze neza, ndetse hari abagabo babiri bigaragara ko umwe ari umucuruzi undi ari umuguzi, akaba ari kumwereka imodoka, akaba yabasha guhitamo iyo yashimye kugira ngo babashe kugura.

Umuhanda w'igitaka urimo imodoka ebyiri imwe y'umukara n'indi yenda gusa umweru, tukabonamo inzu ku ruhande yarwo yubakishije amabuye kandi ifite amababi y'umutuku ni'gipangu cy'umukara.

Imodoka yo mu bwoko bwa fuso ihagaze ahantu handitse akagera, biragaragara yuko ari ahantu imodoka zicururizwa akaba ari kuyamamaza kubera yuko yambaye umupira w'akazi w'umutuku riho numero ndetse biragaragara yuko hari n'izindi modoka, biragaragara ko ari ahantu hacururizwa.

Ni imodoka nshyashya ikivanwa aho bazigura, iri ahantu hari ama kotineri bigaragara ko harimo n'izindi modoka ziri gusohokamo bivuze ko hari aho bacururiza imodoka.

Ibi ni ibiro by'ubwishingizi ari byo twita sanilamu hano mu Rwanda iyi ni inyubako ndende rwose bakoreramo, aho ushobora kubagana bakaguha serivisi z'ubwishingizi mu gihe ugize impanuka cyangwa ukagira ikindi kibazo cyatuma ukenera inyishyu y'ibyawe byose.

Inyandiko ibaza umusoro ku nyungu z'ubukode ni iki? umusoro ku nyungu z'ubukode ni umusoro ucibwa ku nyungu umuntu ku giti cye cyangwa undi muntu wese utishyura umusoro ku nyungu z'amasosiyete abona ziturutse ku bukode bw'umutungo utimukanwa uri mu Rwanda hakaba hasi hariho imyirondoro wabonaho abashinzwe imisoro namahoro mu Rwanda.

Abantu batatu, abagore babiri, ndetse n'umugabo umwe, bahagaze imbere y'ahantu nk'ahakorera mu biro by'umukozi wa banki, ndetse umukozi wa banki ari imbere, haba hafunze n'ikirahure, inyuma ye mu kirahure harimo undi muntu w'umukozi wa banki, nawe usa n'uri kwinjira, ndetse abo abantu bahagaze imbere bakaba baje kubikuza cyangwa izindi serivisi zabazanye.

Inoti y'igihumbi yo mu Rwanda ikoreshwa, hariho inkende yurira igiti ndetse hariho n'igiseke, hari n'ahantu handitseho beneri igihumbi ndetse byerekana y'uko iyi note yemewe.

Umuntu ufite amafaranga menshi aziritse ndetse n'amadolari ari kuyabara mbere hari telefoni zigiye zitandukanye ndetse hari n'icyuma kimufasha kubara amafaranga biragaragaza ko ashobora kuba akora mu biro by'ivunja n'ivunjisha cyangwa se akora muri banki.

Inoti y'amafaranga ijana iriho umubyeyi ufite inkoni uhetse umwana mu gitenge, hariho imisozi, ibiti n'ibintu byinshi bitandukanye biri kuri iyi noti, yanditseho banki nasiyonari y'u Rwanda.

Inoti y'ijana yakoreshwaga mu Rwanda mu myaka yashize myinshi ntazi, iyi ni inoti iriho agaseke ririho abana bashoreye inka,...

Inoti y’ibihumbi bitanu yo mu Rwanda, ku ruhande rw’imbere hariho intore zihamiriza, inyuma hariho ifoto y’inyubako ya banki.

Inoti ya maganatanu ku ruhande rumwe hariho ingagi hariho kurundi ruhande hariho abana batatu abahungu babiri n'umukobwa umwe bicaye bari gusoma igitabo, yanditseho banki nasiyonali y'u Rwanda itegeko rihana umuntu wese uziganaye iyi noti nibyo byanditse kuri iyi noti.

Amacupa y'amazi maremare ndetse n'amatoya, imitobe y'imyembe ndetse na tangawizi bigiye bitandukanye, biragaragara ko biri mu kabati, ni ahantu babicururiza. Imbere yaho hari intebe umucuruzi yicaraho bigaragara y'uko ari ahantu bacururiza ibintu byo kunywa.

Amacupa atandatu manini y'amazi yo mu bwoko bwa nili akaba ateretse ahantu ashobora kuba ari mu kabati cyangwa se ahandi hantu ateretse ariko urabona ko ari yonyine.

Igicuba kirimo amata hari umukobwa wambaye ikabutura ahetse igikapu afite telefone icagize hari intebe harara ameza hari n'ikayi ya logisitire hari umutaka wa eyateri n'inzu nini bigaragaza ko ikorerwamo ibintu byinshi bitandukanye ariko biragaragara yuko ari ahantu hakusanyiriza amata.

Umugabo wambaye ingofero y'ubururu amadarubindi, uri guseka wambaye umupira wumweru ndetse ufite mudasobwa mu ntoki ze. Ari ku gapapuro k'ubururu kandidikishijweho amagambo yumweru ndetse n'ayumuhondo yanditswe mu kirimi cyamahanga cyicyongereza.

Inka iziritse ku giti cy'umuko hari umuryango ukinguye, ni aho bakirarira amata, hari abana babiri, umwana w'umukobwa ndetse n'umuhungu, bose bafite utujerekani turimo amata, imbere hari umuntu uri kuvuganiza amata mu ndobo akoresheje indobo y'umutuku ndetse n'iy'umweru.

Inyange, iyi ni umutobe w'amatunda yo mu ruganda rw'inyange, ni umuntu uyifite mu ntoki bigaraga y'uko ari kwamamaza, ari kwamamaza inyange.

Abagore babiri, cyangwa se abakobwa bacuruza, bari gucuruza ibintu bari gucuruza ntabwo bigaragara neza, ariko bari kubyamamaza kugira ngo babe babasha kubona abakiriya babo bigaragara ko bishobora kuba ari nk'amata y'abana, cyangwa se imitobe y'abana.

Umugore uhagaze imbere hari indobo irimo amandazi, imigati, inyuma ye hari icyuma gikonjesha hari akameza kateretseho intebe ebyiri inyuma hari icyuma cy'amata.

Firigo irimo yahurute zigiye zitandukanye, iz'inkeri ndetse n'ibindi, ziri mu macupa atandukanye, hari ibikombe ndetse n'amacupa ameze uku ng'uko turi kureba, ni ahantu bacururiza ibintu bakaba bari kubyamamaza.

Abantu batatu bafite udukombe turimo, turimo amata, bambaye imipira, babiriri bambaye imipira y'umutuku, undi yambaye uw'umukara, bose imipira yaditseho masaka, n'umutuku biragaragara ko ari bari kwamamaza bino bikombe bafite.

Ifoto ya terefone uri kwinjira ahantu handitse ineza, ndetse handitseho ngo injira kuri konti yawe, kanda kuri byinshi kugira ubashe kumenya amakuru yimbitse.

Ni mu isoko ry'ibiribwa harimo abantu bagaragara ko bari kugurisha, ndabona imboga zitandukanye, inyuma yaho ndahabona ibindi bintu biri gucuruzwa ,ndahabona ikimeze nk'umutaka ,ndahabona hirya ibiti ndetse hirya yaho hari n'inyubako.

Abantu bagera mu icyenda bahagaze ku muryango, ni ahantu babikuririza amafaranga aba yaraturutse mu bihugu bigiye bitandukanye aba bose rero bakaba baje gusaba iyo serivisi bahagaze ku muryango bategereje ko yinjira naho undi niyinjira abandi bagategereza undi agasohoka nabo bakinjira kugira bose babashe guhabwa serivisi.

Telefone bari gukanda berekana uburyo wakanda kugira ngo ubone amiyite wakoresha kuri murandasi ukanda akanyenyeri gatatu kane gatanu urwego ukoresheje momo.

Umukobwa ufite imisatsi myinshi yambaye ikote n'ishati y'umweru, afite impano ifunze mu kantu ka kacye, ndetse hariho akabara k'umutuku, biragaragara yuko ari kwamamaza serivisi zitangwa na banki akoreramo.

Ni uburyo bwo kwinjira muri momo bakwereka uburyo bugera ku ikenda, ushobora gukurikiza amabwiriza, ukohereza amafaranga, kwishyura kugura amanite ukoresheje kode cyangwa se amabanki inguzanyo, konti yawe ubufasha ndetse na.

Urupapuro rwerekana yuko umuntu amaze kwandikisha imirimo yiwe agiye kujya akora avuye kwimenyesha urwego rw'igihugu rushinzwe abikorera ndetse.

Urupapuro rwa banke rwerekana imikoreshereze ya banke guhera ku itariki ya mbere kugeza kuri iyo tariki wabishakiraga, ibikorwa byakozwe, n'imbaba bikije amafaranga cyangwa se warayabikuje byose biba biri kuri urwo rupapuro.

Ni akazu ka emutiyene k'umuhondo, kariho ibyapa byinshi mu bijyanye na serivisi zose za emutiyene, mo imbere harimo umukobwa, ubona ko ari kuganira n'umugabo uje kumwaka serivisi.

Ibaruwa y'ubucuruzi ahabwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro bimwereka yuko yemerewe gukora, haba hariho nimero y'umucuruzi akoresha ndetse n'igihe yishyuriye n'ibyo yishyuye n'aho akorera.

Raporo ya banki umunyamuryango agomba gufata kugira arebe imikoreshereze ya konti yiwe, uburyo iba iriho itariki igihe yabikije amafaranga yabikije igihe yabikuje nayo yabikuje kugira abashe kumenya ukuntu konti yiwe iri kugenda n'iyo haba havutsemo ikibazo akabimenya hakiri kare

Urupapuro rw'umucuruzi ahabwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro kiriho nimero y'umucuruzi ndetse n'aho yishyuye ndetse n'uruhushya rw'ubucuruzi.

Urupapuro rw'umucuruzi ahabwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro kiriho nimero y'ubucuruzi, amazina ye ndetse n'umusoro yishyuye ndetse n'amafaranga atanze n'itariki yabitangiye, hakaba hariho n'izina ry'ubyakiriye.

Ikinyabiziga k'ibinyamitende kikoreye kigaragara cyakorewe mu Rwanda n'abagabo batambuka muri iyo kaburimbo n'imodoka nyinshi ziparitse zitegereje abagenzi.

Urupapuro umucuruzi ahabwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, kikaba kiriho icyemezo cyo kutabamo umwenda w'imisoro hakaba hariho nimero y'uwusoresha ndetse n'izina ry'umucuruzi.

Ibaruwa y'umucuruzi ahabwe n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro kiba kiriho nimero y'ubucuruzi amazina ye ndetse n'umusoro atanze.

Inote y'amafaranga magana abiri akaba ari banki yo hagati ya Kongo, harimo umugore n'umugabo bari guhinga.

Intoki z'abantu batatu, bose bafashe ku mafaranga y'amadolari ijana, afite amabara atandukanye, imwe irerurutse, izindi zirasa umuhondo, bose bayafasheho.

Amafaranga ari muri cya cyuma kiyabara kugira ngo babashe kuyahereza umuntu bamaze kuyabara mu buryo bwizewe; hano biragaragara yuko ari muri banki kubera yuko kariya kuma ntahandi kaba uretse muri banki.

Ni umuntu ufite inoti ebyiri z'ijana zo mu Buhinde, zikaba hariho ifoto y'umugabo ndetse umuntu uyifite yambaye impeta ku kaboko, k'urutoki, yambaye n'udukomo ni utwo ibara ry'icyatsi ku maboko yombi.

Inoti y'ijana yo muri banki yo hagati ya Kongo ikaba iriho ifoto y'inzovu ndetse hakaba hari n'inyuguti ya b na c ndetse akaba ari inoti y'ijana yo muri Kongo.

Iyi ikarita y'abantu y'ivunja n'ivunjisha hariho amafaranga ugura no kugura no kugurisha ndetse hariho n'itariki enye z'ukwa cumi n'biri na bibiri na makumyabiri na kane.

Ni umuntu uri kubara amafaranga, afite inoti nyinshi cyane ziziritse. Ari kuzibara yasesetsemo intoki, biragaragara ko ari inoti zitandukanye, ntabwo zisa. Zishobora kuba zifite imibare itandukanye, ariyo mpamvu zibara kuriya.

Ni inoti z'amafaranga agiye atandukanye, harimo amadolari, harimo inoti yacu y'ibihumbi bitanu yo mu Rwanda, harimo inoti ya mirongo itanu, hari inoti y'igihumbi, hari inoti zigiye zitandukanye ziri mu mabara atandukanye zifashwe n'umuntu umwe.

Ni isoko ryiza hasi risashe amakaro hejuru hari parafo, mu rwego rwo kwirinda inyanyagira ry'ibicuruzwa bubatse akayetajeri ko mu biti ku buryo usanga buri gicuruzwa gipanze mu mwanya wacyo.

Umugore wicaye mu biro, wambaye ishati y'umukara ndetse akaba ari kubara amafaranga, imbere ye hari umugabo wambaye ishati irimo imirongo y'amabara atandukanye, bigaragaraye yuko rero yaje kubikuza amafaranga ye muri banki.

Ni abantu batatu umwe afite amafaranga mu ntoki undi afite ikayi hari n'umusaza wambaye umupira w'icyatsi bicaye bameze nkaho baganira ku bintu byerekeranye n'amafaranga .

Abakozi babiri umusore n'umugore bicaye imbere ndetse hari n'umukiriya uje ubagana bigaragara yuko aje ku cyicaro cy'ivunja n'ivunjisha.

Inzu zisize ibara ry'ubururu hirya yaho hari irindi ry'umuhondo bigaragara yuko ari ahantu hakorerwa ibintu by'ivunja n'ivunjisha aho umuntu yazana amafaranga cyangwa se amadolari yo mu bindi bihugu bakaba bamuvunjira kugira ngo abashe kubona ibyo yashakaga.

Ni imbaho zikoze mu buryo butandukanye birashoboka ko hano aho aho bagiye gukorera intebe cyangwa se igitanda cyangwa ibindi bikoresho biva mu imbaho ariko izi n'imbaho ziri kugaragara muri iyi shusho.

Ahantu hanini h'ubucuruzi, hari abakarani bambaye amasurubeti y'akazi, hari ibitanda, hari matera ndetse hari n'amarido, biragaragara ko ari ahantu hacururizwa ibintu byo mu buriri.

Inzu irimo ibikoresho by'ibyuma imbaho ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byerekana yuko hari n'umuntu urikuza ashobora gukora ameza cyangwa se intebe, ni inyubako irimo ibikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye.

Ameza, akabati, intebe imitako yo muri salo cyangwa se mu ruganiriro aho abantu bicara biri mu ibara ry'umweru bibereye ijisho bisa nkaho bari kubyamamaza.

Ameza akozeze mu buryo butangaje, afite ukuguru kumwe gufite ayandi atatu. Hirya yayo hari intebe igaragara ko ari ahantu hakorerwa ububaji.

Mu nzu, mu ruganiriro, hari intebe, hari tereviziyo, hari ibirahure, hari amarido, hari aho bacanira itara n'aho bacagiga, hari utumeza dutoya turi imbere y'intebe.

Icyumba kirimo uburiri busashe harimo ahantu ho gukarabira ndetse harimo akabati washyiramo imyenda.

Ni ikarita y'abacuruzi baroko ahantu bacuruza ibiryo n'ibinyobwa biri, haba hariho ibiryo n'igiciro cyabyo amafaranga bigura ndetse n'uburyo ugomba kumenya ibyo uhitamo kugira ngo babikuzanire, mu buryo bwo kunoza imikorere yabo.

Umukindo muremure imbere yawo hari ahantu hateye intebe, hatwikiriye bisa nk’aho ari ahantu abantu basohokera, hari umuryango ukinguye n’ahantu bakirira.

Ni ibiro birimo abakozi barindwi, bigaragara y'uko babiri aribo bari mu kazi, bari kuri mudasobwa abandi bari kuganira, undi arahagaze ari kureba, imbere y'abo hari amagare abiri aparitse bigaragara ko ari ay'abakozi.

Inyubako ndende iriho izina rya sanilamu nabyo ni ubwishingizi bufasha abantu, bugoboka abantu mu bihe by'akaga ndetse hari umugabo wambaye ingofero y'icyatsi, yambaye n'ishati ari kugenda nkuhagana, hari moto itwaye umugenzi hari n'undi muntu wambaye umupira w'ubururu uri kugenda imbere y'aho hari ibiti n'imikindo.

Ikinyabiziga k'ibinyamitende kikoreye kigaragara cyakorewe mu Rwanda n'abagabo batambuka muri iyo kaburimbo n'imodoka nyinshi ziparitse zitegereje abagenzi.

Inzu y'ubwishingizi hariho ifoto y'umukobwa wambaye ikote n'ishati uri guseka ubona ko yishimye hariho icyapa cyanditseho kanyenyeri magana atandatu urwego imbere ye y'uwo mukobwa hari umumotari utwaye moto wambaye umupira urimo ibara ry'umutuku, umukara ndetse n'umweru n'inyuma ye hari umugabo uri kugenda n'amaguru imbere yabo gato hari abandi bagabo umwe ari kuri moto undi kugenda.

Ahantu ho kwakirira abantu baje babagana abakiriya cyangwa se abandi bantu. Bicara bagategereza icyo kunywa cyangwa icyo kurya. Ahantu basohokera muri make.

Umumotari uri kugenda adafite umugenzizi hari imodoka ebyiri imwe iri kwinjira ahantu h'ubwishingizi ndetse indi iri kugenda yakomeje umuhanda imodoka y'umukara k'umuhanda hari ibiti byiza ndetse hari n'ibyatsi bitoshye kuru rundi ruhande hari moto ziparita ziri mu bice bitandukanye.

Ibaruwa yandikwa n'umuntu ushaka inguzanyo hariho imyirondoro ye agomba gutanga kugira abashe kubona inguzanyo.

Umuhanda w'umukara aho uganisha ku bitaro byitwa Sehashiyibe, biri mu karere ka Huye, aho hahagaze umuntu uhagarika imodoka kugirango babanze basuzume icyo uje uhakora, hakaba hari imodoka nyinshi ziparitse.

Ifoto iriho umugabo n'umugore cyangwa se umusore n'inkumi bameze nk'abantu bari mu rukundo bakaba bari gutekereza ejo habo hazaza bari kumwe, ikaba ari banke kwamamaza uburyo yatanga inguzanyo ku bantu baba bagiye kurushinga, kugirango babashe gutangira ubuzima bwabo.

Umuntu uri kwamamaza uri kwamamariza banke, yerekana uburyo ushobora kugera kuri konte yawe ukanze akanyeri magana atandatu urwego, ubikoreye kuri telefone yawe bitagusabye kujya kuri banke.

Abantu bane abakobwa babiri n'abasore babiri, ababasore bambaye amasarubeti umwe yambaye isarubeti y'ubururu afite inyundo n'ingofero mu ntoki, undi yambaye isarubeti y'ivu ndetse umukobwa wundi afite ikayi uw'inyuma ari guseka nta kintu afite.

Umuhanda ukoze neza hagati harimo umurongo w'umweru wihese, umuntu uri ku kinyabiziga cy'ikinyamitende n'undi uhagaze mu kayira k'abanyamaguru mu mpande zawo hari amazu ahakikije n'ibyuma birebire biriho insinga z'amashanyarazi nyinshi.

Umugabo n'umugore cyangwa se umusore n'umukobwa bishimye cyane umugabo afite telefone umukobwa yafunze ingumi biragaragara yuko umushahara wabo bawongereye bawukubye kabiri bakaba aribyo byabashimishije cyane.

Hari umugabo ufite inoti za bitanu z'amafaranga y'u Rwanda yambaye ikote n'ishati y'ubururu akaba yishimiye yuko abonye amafaranga bikaba ari amafaranga atangwa n'inguzanyo itangwa nta ngwate itangirwa muri buri banki ya I&M bank.

Imodoka eshatu z'umukara iruhande hari umutaka w'umuhondo wa Emutiyeni, hari moto enye ebyiri ziraparitse ndetse n'izindi ziri inyuma y'imodoka hari n'indi modoka ishaka kuza kuhaparika, umuhanda urimo ibinyabiziga byinshi cyane uko bigaragara ndetse n'abantu bari gucanacanamo, ni ahantu hashobora kuba hakorerwa serivisi nyinshi zitandukanye.

Umusore wicaye areba, hirya ye hari abakobwa batanu, ni ahantu hacururizwa inkoni z'abasaza, ibikapu by'abadamu, ibiseke.

Abagabo batatu inyuma yabo hari umugore hari n'undi muntu uri inyuma kamera itabashije gufata; biragaragara ko ari ahantu hakorerwa ubugeni, hari uduseke n'udutako two muri salo by'abanyabugeni bakora bari gucuruza.

Isoko ry'imboga, inyanya, amashu, karoti, intoryi, ibiriganya ndetse abagore bakenyeye ibitenge nibo bari kubicuruza abandi bagura bitwikiriye imitaka.

Isoko ririmo imboga z'ubwoko bugiye butandukanye, harimo karoti, harimo amashu ndetse hari amabase ateretsemo ibintu byinshi bisa nk'imiceri, ibishyimbo ndetse harimo abantu batatu, abahungu babiri n'umugore umwe.

Isoko ry'imboga ririmo abantu bagiye batandukanye hari umucuruzi ari gutonora ibishyimbo hari ibitunguru, harimo amashaza, inyanya ndetse harimo n'abandi benshi.

Mu isoko ry'imyenda harimo imyenda y'abagore ibitegi harin'iyenda y'abana, ndetse hari abagore babiri umwe yambaye ibitenge birimo ibara ry'ubururu, undi yicaye afite agakapu k'igitenge kiririmo ibara ry'umuhondo bisa nkaho baje gucuruza, ni abacuruzi hirya yabo hari n'abandi bagenzi babo.

Mu muhanda harimo abagenzi bagenda n'amaguru moto ziparitse, imodoka ziparitse. Hirya hari ikizu cyubatse kikirangaye, kimeze nk'isoko. Kirasakaye, gusa ahandi ntabwo cyubakiye. Birasa nk'aho ari ku isoko; abantu bari gusohokamo, abandi binjira.

Isoka ry'imbuto ririmo imbuto zigiye zitandukanye, imineke, imyembe, ibinyomoro, ibihaza ndetse n'izindi mbuto zigiye zitandukanye, harimo abacuruzi, barimo abagore babiri bari gucuruza, ndetse n'umusore wambaye ingofero waje guhaha.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru kirimo amapoto abiri rimwe riryamye irindi rihagaze ikibuga gikikijwe n'ibiti ndetse kigizwe n'amapoto ndetse ntabwo kirarangizwa kubakwa.

Ibisabo, ingoma, inzugi z'amabati, ibiseke, hari umugore wambaye igikanzu cy'umutuku, ku rundi ruhande hari umukobwa wambaye isengeri...

Aha ni mu isoko ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo indimu, harimo amacunga, harimo imyumbati, harimo n'ibindi bicuruzwa biri mu mufuka ntari kumenya ibyo aribyo, n'umucuruzi uri kubicuruza.

Isoko ririmo imyenda, imbuto, imboga, ndetse ririmo abantu benshi harimo abagore bahetse abana umugore uhetse umwana, undi amutwaye mu ntoki undi yifashe mu m'ugongo abacuruzi bamwe baricaye abandi barahagaze biragaragara ko ari mu isoko bitewe n'ibintu birimo.

Isoko ry'imbuto harimo avoka, harimo amacunga, harimo n'imboga, imineke, ibijumba, inyanya, intoryi n'umucuruzi, umukobwa wicaye ukenyeye igitenge yambaye akantu kagufiya nimba ari kora cyangwa ikabutura ndetse n'umugabo uhagaze hirya ye.

Hari umutaka, umutaka wa emutiyene hari umukiriya ndetse n'umucuruzi wambaye ijire ya emutiyeni, inyuma yabo hari abandi bantu bahicaye ndetse biragaragara ahantu habera ibikorwa byinshi bitandukanye by'ubucuruzi, inyuma yabo hari, hari hari umuryango ukinguye hirya yabo hari abandi bantu.

Umucuruzi wa emutiyeni yambaye umupira w'umuhondo ufite akabara k'ubururu ku ijosi ndetse no ku kaboko yambaye ingofero y'umuhondo ifite n'ibara ry'ubururu ari kumwe n'umukiriya.

Umutaka wa momo, harimo abakozi babiri, hari imipira y'amaboko magufi yanditseho emutiyene, ndetse hari udukarito tubari imbere, dushobora kuba turimo ibikoresho byabo baba bari gutanga ku bakiriya babo.

Ahantu hasa nk'ahantu abantu basohokera bisa nk'akabari cyangwa se ahantu abantu bajya kwiyakirira bakaba bahafatiramo amafunguro ya saa sita, hari mu ibara ry'umutuku, hariho intebe z'umutuku ndetse n'imitaka yayo iratukura, birasa nk'ahantu mu gipangu hakinjiramo n'imodoka z'abantu baba baje kubagana.

Aba ni abagabo babiri cyangwa se abasore babiri, umwe w'umwirabura ukaraze imisatsi, bose bambaye rinete, umwe yambaye rinete z'umukara, undi yambaye iz'umutuku, biragaragara yuko bari nko kwamamaza zino ngofero zo kuri moto.

Umuhanda ukoze neza hagati harimo umurongo w'umweru wihese, umuntu uri ku kinyabiziga cy'ikinyamitende n'undi uhagaze mu kayira k'abanyamaguru mu mpande zawo hari amazu ahakikije n'ibyuma birebire biriho insinga z'amashanyarazi nyinshi.

Umusore uri guseka ubona ko yishimye, yambaye ishati y'umweru ry'ubururu yanditsemo vuba vuba, ndetse akaba afite ishashi irimo amavuta, karoti, urusenda ndetse n'izindi mboga zigiye zitandukanye. Akaba ari abantu ugurira barangiza bakanabikugereza mu rugo. Akaba rero yarabizanye kubabiguze.

Ni inzu irimo igikoni kirimo amazi ndetse naho batekera, hakaba harimo akabati washyiramo ibikoresho byawe byo mu gikoni, ndetse hakaba hariho naho bamesera, icyuma kimesa, bikaba biri kuboneka kabeza kigali.

Aha ni mu nzu mu gikoni cya kijyambere harimo akabati, hakabamo firigo bakonjesherezamo, hakaba hari n'aho batekera ndetse n'utubati turimo tugiye turimo ibikoresho bikoreshwa mu gikoni.

Ni inyubako iri mu gipangu gifite amarangi y'umuhondo ndetse n'ivu kiriho igisenge cy'umukara, hariho amatara asa neza ndetse ko ifite ahantu imodoka eshatu zahagarara, ikaba iherereye i Kanombe i Kigali, ikaba igurwa miliyoni mirongo icyenda n'eshanu.

Ikinyabiziga k'ibinyamitende kikoreye kigaragara cyakorewe mu Rwanda n'abagabo batambuka muri iyo kaburimbo n'imodoka nyinshi ziparitse zitegereje abagenzi.

Ni inzu irimo intebe nziza ziri mu ibara ry'ivu hari imeza imbere yaho hari tereviziyo icanye irimo abantu barwana, hari imitako myiza cyane y'imigongo ndetse iyi nzu ikaba ikodeshwa amadorari magana inani buri kwezi i Kibagabaga.

Ni igipangu kirimo inzu nziza ifite igisenge cy'umutuku harimo amabara ajya kuba umweru, ndetse hariho urugi rusa umukara harimo amabara ashashagirana y'umuhondo ikaba kiri ku muhanda w'igitaka kabeza kigali.

Inyubako irimo umusore uri kwifotora mu kirahure, hari icyuma kimesa imyenda, hejuru yaho hariho akantu k'ubururu ndetse harimo n'umugozi bacomekaho, iyi nzu ikaba irimo igikoni kigezweho ikaba iri Kabeza Kigali.

Ni inzu ifite igisenge cy'umutuku, ifite isize irangi ry'ubururu ndetse ifite n'amabuye, iyi nzu ikaba iri gukodeshwa mu murenge wa Kabeza.

Ni inzu bagaragaje uruhande rwayo rw'imbere, ifite umuryango munini, ni inzu igaragara y'uko yaturamo abantu ndetse kurundi ruhande hariho umuntu wambaye umupira w'umweru, afashe ku rukuta rw'ikindi gipangu.

Inzu ikodeshwa hejuru yayo hari ibigega by'amazi, hirya hari izindi nzu, inyuma yayo hari ibiti, biragaragara ko ikodeshwa, bari kuyamamaza.

Ni inzu ikinguye umuryango ntago turi kureba mo imbere uko hameze, harimo irangi risa umweru, harimo kariya kantu gacana itara gasa umukara, aho bacaginga telefone h'umweru ndetse harimo amakaro.

Ni inzu irimo gikoni cya kijyambere harimo harimo amazi n'imbere y'imu giko akoresha mu gikoni koza uri koza amasahani cyangwa amasafuriya hakaba harimo icyumba cyo kuraramo ndetse n'ubwogero ika ikodeshwa ibihumbi magana abiri ku kwezi, ikaba iherereye i kigali kacyiru.

Inyubako igeretse isize amarangi y'amabara atandukanye, harimo ay'umuhondo ndetse mu gipangu cy'amatafari ahiye, ikoze neza amasuko ibintu byose, ikaba ikodeshwa ikaba ifite ibyumba bibiri n'ubwogero bubiri kandi iri mu gipangu cya yonyine.

Ni inzu ngufiya ifite amabara y'ubururu, ndetse hari amatafari ahiye hari n'amabara y'umukara, hari igipangu, urugi hari n'umuntu uri ku rugi usa nk'uri gukingura.

Inyubako ni uko bigaragara ikoze amasuku ifite amakaro afite amadirishya avanze neza ndetse iri mu gipangu harimo ubusitani bwiza cyane hasi icyatsi ikaba arizi ikodeshwa irimo ibyumba bine ndetse n'ubwogero butatu ikabikodeshwa ibihumbi magana atandatu ku kwezi.

Inzu ikodeshwa iri ahantu mu gipangu; ifite amakaro mu imbere hasize irangi ry'umweru iri ahantu hameze neza

Ni inyubako nini itangirwamo ikorerwamo ibintu bitandukanye harimo ubucuruzi bugiye butandukanye, harimo abantu bari kuza abandi basohoka, harimo abantu b'ingeri zose abagabo, abagore bagiye batandukanye.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye harimo imitaka y'umutuku harimo abantu bagiye bari mu bintu bitandukanye aha n'ahantu hakorerwa ubucuruzi.

Abantu barenga batanu bamwe muri bo bambaye ubururu, abandi bambaye umukara, bambaye umweru hari ibintu bimeze nk'ibikarito by'umutuku ndetse biragaragara ko hakorerwa ubucuruzi.

Ni ahantu hakorerwa ubucuruzi hari amazu atandukanye acuruza ibintu bitandukanye, ni ahantu hanini cyane bigaragara yuko ari mu cyanya cy'ubucuruzi.

Abantu babiri bicaye ku ntebe imbere yabo hahagaze abantu benshi cyane, ndetse ku meza bicayeho hari ibintu byinshi bihari, bigaragara yuko hari serivisi kanaka bari kuhatangira ntari kumenya iyo ariyo. Ndetse inyuma yaho hari inzira abantu banyuramo, ikoreshwa n'amashanyarazi.

Ikarita za mituweli nyinshi nyinshi cyane ziri ku meza cyangwa ahandi hantu hasa hari mu n'ibara ry'umuhondo bigaragara yuko ari kwa muganga hari abantu baje kwivuza bakaba bazihateretse kugira ngo bivuge.

Umugabo wambaye umupira w'umweru wanditseho ikigo cy'ubwishingizi mu Rwanda, akaba afite indangururamajwi nyuma yiditseho mituweli iriho ntabwo ibindi bigaragara neza, ariko bashobora kuba bari kwamamaza ibintu byerekeranye na mituweli akaba ari kubibwira abantu kubera yuko ameze nk'uri gutanga imbwirwaruhame.

Inzu ifite ibara ry'umweru ndetse n'inzugi zifite ibaraya gusa umweru n'ibirahure by'umukara hasi hari amakaro ifite ibyumba bikodeshwa ibihumbi ijana na mirongo itanu by'amafaranga y'u Rwanda.

Amakarita ya mituweli arambitse ahantu hari ibara ry'umuhondo bisa nkaho ari ku meza cyangwa se ku kindi kintu barambitseho igitambaro cy'umuhondo, bikaba bigaragara yuko ari abantu bayahashyize. Kuko bayatondetse bagiye bayatondeka uko abo bantu baje kwivuza kubera yuko mituli zikoreshwa kwa muganga gusa.

Ni ivuriro ritoya ryanditseho ko abazungu ni ahantu abarwayi baza kwivuriza igihe bahuye n'ikibazo cyo gufatwa nijoro, ni ivuriro riba ryegereye abaturage ariko ridatangirwaho serivisi zose, ariko batanga serivisi z'ibanze igihe umurwayi yafatiwe mu rugo bagahita bamujyanayo yabasha gukira cyangwa se a atakira bakamwinjiza ku rindi vuriro ryisumbuyeho.

Aha ni kwa muganga ha turi kubonamo abaganga hariri kwandika unda areba ku ikayi hari abarwayi barimo imbere ndetse abandi bari kumurongo hanze bategereje yuko bagenzi babo basohoka nabo bakinjira kugira ngo bahabwe serivisi baje gushaka kwa muganga ariyo yo kwivuza.

Ikarita ya mituweli, ikaba ari ikarita icuritse kuri nta foto turi kubonaho, ni umuntu wagiye kwivuza arangije ayisiga kwa muganga, bakaba bayifotora kugira ngo bayimwoherereze cyangwa se nabibona aze kuyito..

Abagabo babiri bafite ikintu kinini cyane gishobora kuba cyanditseho ibindi bintu bitari kugaragarahangaha. Ariko biragaragaza yuko hari amasezerano basinyanye ndetse bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso.

Mudasobwa ifunguye ndetse umuntu afite impapuro nk'izo kwa muganga, aha hantu, hameze nko kwa muganga afite ikarita y'ubwishingizi y'umuntu ntari kubona ashobora kuba yaje kwivuza akabari kureba neza ibyerekeranye n'ubwishingizi.

Ikarita y'ubwisungane mu kwivuza mituweli iriho ifoto y'umwana ndetse hagiye hariho umwaka bishyuye, bibiri na cumi n'agatandatu, ikaba irambitse ahantu ku nzu hari ibara ry'ubururu.

Umugabo wicaye ari kwandika imbere ye hari amakayi menshi ndetse mu idirishya hari umuntu bisa nkaho hari ibyo ari kumubwira.

Ameza ariho udukarita tugiye dutandukanye twanditseho, hariho ikiganza cy'umuntu usize amahina ku nzara ziwe. Ni ibintu byanditseho guhura mu itsinda, guhura ku giti cyawe, ni ibintu byinshi, ni udukarita twanditseho ibintu.

Umugore wambaye ikanzu y'igitenge yambaye n'agapfukamunwa hari n'abandi batatu umwearahagaze undi yicaye ku ntebe ndetse undi nawe ayicaye ku rundi ruhande ahantu handitseho gira ubuzima biragaragara yuko ari ivuriro hariho umugabo n'umugore n'abana babiri bose bafatanye ibiganza hari n'ivuriro abantu bari baje kwivuza.

Harimo abantu barenga batanu harimo umugabo uri gupakira wambaye umupira n'ipantaro y'ikoboyi, inyuma harundi wambaye umupira w'umuhondo ku rundi ruhande har' umugabo ufite indangururamajwi amez nkuri kwamamaza, inyuma yabo hari abandi bakobwa babiri bameze nk'abakora mur' aho ngaho bacururiza bari gufasha abakiriya babo kugirango babashe kubona ibyo bashaka.

Ku mupira wa kizimyamoto wifashishwa mu gihe habaye inkongi y'umuriro, uba uri ahantu runaka hahurira abantu benshi nko mu masoko, mu mavuriro ndetse no mu ma sitade, uyu mupira wifashishwa ubusukira amazi bitewe n'ahantu inkongi y'umuriro iri.

Umusore wunamye umeze nk'ufite inkovu ku maso, uteruye ibintu bisa nk'ibiremereye, ari ahantu hari imitobe, harimo ibintu byo kurya biri mu mashashi ntari kumenya ibyo ari byo, ndetse hari na firigo. Inyuma ye hari abagabo babiri, bose bambaye amapantaro y'ubururu y'amakoboyi, umwe yambaye umupira w'umukara, undi yambaye ishati y'ubururu.

Mu iduka bacururizamo imbuto, imboga n'ibindi byinshi, hari umuntu uvuye guhaha inanasi, intoryi, amashu, inyanya ndetse n'ibindi by'icyatsi ntari kumenya neza. Yambaye ikote ry'ikoboyi, umupira w'umweru, yambaye n'ishashi ku kaboko ndetse abitwaye.

Abantu barenga batanu bari ahantu bacururiza imigati, ibikinisho by'abana bitandukanye ndetse harimo abantu bamwe n'abakozi ba emutuyene, abandi n'abakiriya bari baje guhaha, bari kubafasha mu buryo bwo kwishyura kugirango babashe kubona ibyo baje kugura.

Ahantu bacururiza icyayi hari umucuruzi afite imashini uriya muguzi ari kwishyura ndetse afite icyayi mu ntoki yambaye isaha ku kaboko, yambaye ishati y'icyatsi yambaye lunete inyuma ye hari umusore wicaye ari kuri terefone .

Ahantu hacururizwa ibikoresho bitandukanye nk'ibikoresho byo mu gikoni bakoresha bateka, nk'ibirungo cyangwa se ibyo barya. Nkuko turi kubibona hari umugore wambaye ikote ry'umutuku n'ijipo nawe ari kugura.

Ahantu ndahabona umuntu mu kayira k'abanyamaguru arimo aragenda bika bigaragara ko hari n'undi muntu wicaye munsi y'umutaka wa emutiyeni ndetse bikaba bigaragara ko uyu muntu acuruza amayinite bikaba binagaragara ko hari imodoka y'umukara ndetse na taransifa y'amashanyarazi.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo ubucuruzi bw'ibicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye, bigiye bitondetse ntabwo ndi kubimenya neza ariko haba hari n'ibikoresho by'isuku.

Inzu nini y'ubucuruzi irimo imbuto, imboga ndetse n'ibindi bikoreshwa cyane cyane mu gikoni igihe umuntu ari guteka, harimo n'umucuruzi wabyo imbere ku mubona.

Aha ni mu iduka ricuruza biriya byuma bikoreshwa mu gikoni byaba bishyushye ibintu cyangwa se bikonjesha, birimo kakuma gashyushya bacomeka bagashyushya amazi habandi kubonamo imitobe igiye itandukanye harimo abaguzi ndetse n'abacuruzi n'abacuruzi bagiye batandukanye hari umusore uterura icyuma inyuma haru undi inyuma ye hari undi mugabo wambaye umupira.